Icyumba cy'inama, ni ahantu abantu bateranira bungurana ibitekerezo, hagaragara icyumba cy'inama kirimo abantu bateranye, kirimo ibendera ry'igihugu, amazi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu nama.

Abajyanama b'ubuzima bakorera mu mudugudu bafasha gahunda ya Leta yo kwegereza ubuvuzi umuturage bakorana n'ibigo nderabuzima bibegereye.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi; ariko na bwo iyo atabonetse ahagije biteza ikibazo gikomeye. Hagaragara ivomero ririho abantu baje kuvoma batonze umurongo n'amajerekani; bategereje amazi.

Gushyira mu bikorwa ihame ry'uburinganire ni ingenzi cyane kuko bifasha gufashanya, haragaragara umugabo wishimye, ufite akanyamuneza ku maso uri ku iriba, ufite ijerekani witeguye kuvoma.

Gukaraba intoki ni igikorwa gito ariko gifite akamaro kanini cyane. Umwana aragaragara akaraba intoki n'amazi meza n'isabune, afite akanyamuneza ku maso bigaragaza ko yishimye kandi yisanzuye.

Ibikorwa remezo biri mu bintu byihutisha iterambere ry'igihugu, amazi yo akaba ingenzi kuko akenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuyabungabunga ni inshingano za buri muntu wese.

Amenyo ni igice cy'umubiri kigomba kwitabwaho cyane, bimwe mu byo tugomba gukora, harimo koza amenyo nibura kabiri ku munsi, kwirinda isukari, ndetse no kujya kwa muganga nibura kabiri mu kwezi.

Uretse kuba ari abantu bakuru, iyi foto iratwibutsa ko dukwiye kwita ku bantu bakuru, abasaza n'abakecuru bari mu zabukuru, ni abantu bakwiye kwitabwaho bikomeye, kuko baba badufitiye byinshi byo kudusigira: ubumenyi, uburere ndetse n'amateka y'igihugu.

Abantu bageze mu za bukuru ni abantu bakwiye kwitabwaho cyane kuko baba bafite ibintu byinshi bikomeye, hagaragara abantu babiri umugabo ukuze ndetse n'umukobwa uri kumufasha bari mu cyumba cyabugenewe.

Kubagwa ni serivisi zitangirwa kwa muganga hagamijwe kuramira ubuzima bw'umuntu, hagaragara abaganga bambaye imyenda yabugenewe n'imashini zifashishwa mu kubaga umurwayi.

Gahunda y'ikingira ni gahunda ya leta igamije gufasha ababyeyi gukurikirana imikurire y'abana babo no kubarinda indwara ziterwa no kubura inkingo.

Ihame ry'uburinganire, ryahaye ijambo abagore, ku buryo nta mwuga n'umwe bahejwemo. Haragaragara inyubako y'ibitaro, imbere yayo hariho abaganga b'abagore, bambaye imyenda y'akazi, ndetse n'udupfukamunwa.

Ibikorwa remezo nk'ibitaro biri mu bintu by'ingenzi igihugu gikenera, haragaragara inyubako yo kwa muganga, abaturage, abarwayi, abarwaza bategereje kwakirwa.

Icyumba cy'inama gisukuye neza, kirimo ibikoresho byose, intebe, indangururamajwi n'aho abantu bateranira barushaho kungurana ibitekerezo.

Icyumba cyo gukoreramo imyitozo ngororamubiri cyabugenewe, kirimo ibikoresho byose, cyifashishwa mu gutuma imibiri yacu itagerwaho n'umubyibuho ukabije ndetse n'indwara zitandura.

Kwita ku isuku n'ubwirinzi bwacu n'abandi, bituma twirinda indwara no gukwirakwiza icyorezo mu bihe by'ibyorezo. Umuntu aragaragara imbere y'inyubako rusange, afite ibikoresho by'isuku, birimo amazi n'indobo.

Umwuga w'ubuganga uri mu myuga ifatiye runini abaturage n'igihugu muri rusange. Hagaragara icyumba cy'abarwayi, cyakira abarwayi barembye, kirimo ibikoresho, inzitiramibu ndetse n'umuganga n'umurwayi.

Mu cyumba kimeze neza kandi kizengurutswe n'urumuri ruke rwera, umuntu wambaye imyenda y'ubushakashatsi, ingofero n'agapfukamunwa, ari gukora ku mashini isa nk'aho itunganya imiti, inyuma hari abantu benshi bambaye udupfukamunwa n'abatatwambaye basa nk'aho baje kureba uko imashini ikora.

Kwa muganga, ni icyumba cyakira abarwayi, aho buri wese ajya yizeye gukira. Hagaragara intebe, icyumba gisukuye neza ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kubika imyanda.

Siporo kunywa amazi ibintu by'ingenzi umubiri w'umuntu ukenera, hagaragara abantu babiri bavuye muri siporo bari kunywa amazi kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Amazi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi, kunywa amazi biturinda indwara zirimo nk'impyiko ndetse n'umuvuduko w'amaraso, hagaragara icupa ririmo amazi ndetse n'ikiganza cy'umuntu.

Kurya indyo yuzuye biri mu bituma imibiri yacu irushaho kumererwa neza, indyo zi igizwe n'imbuto, imboga, ikomoka ku matungo n'ibyubaka umubiri twongeyeho ndetse n'imyitozo ngororamubiri imibiri yacu irushaho kumererwa neza.